Iruhande rw'ishyamba riteyemo ibiti, birimo ibidakuze cyane bikiri bito, hari imirima ihinzemo ibihingwa bitandukanye birimo nk'ibijumba, hafi y'aho hari ibyuzi by'amafi birimo amazi biteganye bibiri bibiri ubwo ni ibyuzi bitandatu, impande yaho hari ibihuru.

Umugabo wambaye umupira udafite amaboko w'umutuku ufite imashini imbere n'ishati idafite amaboko imbere yawo, yambaye amarinete n'ingofero y'umweru mu mutwe, ukuboko kwe agufatishije ku giti cy'ikawa ziriho ibitumbwe.

Ku giti kiri ahantu hari kuva izuba hariho ikawa zimwe z'ibitumbwe by'icyatsi, izindi zabaye umutuku n'izindi zifitemo ibara ry'umuhondo, kuri icyo giti hariho amababi amwe akimeze neza n'andi yarokotse, ahagana ku mutwe w'aho ikawa zihera hariho ibitumbwe bito bitari byagera igihe cyo gusarurwa.

Umugore wambaye ingofero y'umutuku y'urugara, yambaye amarinete, yambaye n'ikanzu y'amaboko magufi y'umweru. Iruhande rwe hari umugabo wambaye ipantaro y'umukara, umupira w'umukara w'amaboko magufi ufite ikora n'ingofero. Impande yabo hari inka zidafite amahembe zose z'ibara rimwe. Inyuma yaho bari hari ibiti byinshi.

Abantu biganjemo abambaye amajipo y'icyatsi bicaye hasi bambaye bote abenshi; naho abandi bambaye inkweto zifunguye, imbere yabo hari umugabo uhagaze wambaye ishati y'amaboko maremare wayihinye akayayigeza hejuru y'inkokora, n'ipantaro y'umukara. Iruhande rwabo hari ibiti.

Umugabo wambaye ipantaro ihinnye ikagera mu mavi y'umukara, yambaye n'umupira hejuru udafite amaboko w'umukara ndetse n'ingofero. Ari mu murima ari guhinga. Impande yaho ari guhinga hari umurima uhinzemo inzuzi z'ibihaza bya nyiramonjogo. Haruguru y'uwo murima hari akazu gato gafite uturyango tubiri kadafite inzugi gasakaje amabati. Haruguru yako hari ibiti bikikije umuhanda.

Umurima uteyemo ibihaza bya nyiramunjugu biranda hasi, hari ibifite amababi y'icyatsi cyeruruka n'ibindi bifite amababi y'icyatsi gitsindagiye, hagati muri izo nzuzi hari ubwatsi bwagiye bumeramo kuri izo nzuzi ahantu zihinze hari kuva izuba ariko ritari ryinshi.

Udusozi twinshi duto duteganye, hamwe hateyeho ibiti ahandi hateye ibishyimbo bya mushingiriro. Ahateye ibiti bifite amababi y'icyatsi naho ateye ibishyimbo bya mushingiriro byo bifite amababi yahindutse umuhondo. Inyuma y'ibyo bishyimbo hariho ibiti bibiri binini bifite amashami agandaye hirya no hino hariho amababi atari menshi.

Udusozi duto duhagaze hejuru y'ibibaya duteyeho ishyamba ariko ritari ryinshi rigizwe: n'ibiti bike, insina z'ibitoki n'ibindi bihingwa mu mirima. Hari n'ahahinze hari intabire. Kuri utwo dusozi kandi hariho utuyira duhuza agasozi kamwe n'akandi.

Imisozi myinshi iteganye mito ihinzeho ibiti n'indi myaka y'ubwoko butandukanye, hari imyaka ifite ibara ry'umuhondo n'indi ifite icyatsi cyereruka ndetse n'indi ifite icyatsi gitsindagiye, hejuru y'iyo misozi hari ibicu byinshi.

Munsi y'imisozi iteganye iteyeho ibiti, hari ikibaya gihinzemo imyaka y'ubwoko butandukanye harimo ibijumba n'ibindi, ku ruhande rw'iyo mirima ihinzemo ibihingwa harimo inzu yubakishije amatafari ya rukarakara, isakaje amabati ashaje n'indi isakaje amategura.

Inka z'ubwoko butandukanye n'amabara atandukanye ziri ahantu mu ifamu, harimo izisine n'izikibamba n'izindi, iyo famu zirimo hateyemo ibiti ahagana ku ruhande, aho ziri kunyura harimo ibyatsi birebire, harimo ibikiri bitoto n'ibimeze nk'ibitangiye kuma.

Ahantu hari umucyo mwinshi, hari imbuga itindishije amapave, harambitseho amahema ariho ibigori bimwe bihunguye n'ikindi kimwe kirimo ku ruhande rw'iburyo kidahunguye, ihema rirazinze harambitseho ibigori bicye, iruhande rw'iryo hema hari ikirenge cy'umuntu.

Inka z'inyambo ziri mu biraro zifite amahembe maremare ateze iruhande rw'aho ziri hagaze umuntu wambaye itaburiya y'umweru na bote naho inyuma ye hari abandi bambaye ibisurubeti by'ubururu impande y'akayira yaho ibyo biraro biri hari umucaca.